Aha ndabona bo ari inama rusange, inteko yari yateranye igizwe, ababyeyi, abamama, abapapa, abasaza ndetse n'umuyobozi wari uyoboye ikiganiro.

Iki ni icyumba cy'inama, ndabona umugabo uri kwigisha ufite mikoro, ndabona abagore bari mu nama ,nkabona icupa ry'amazi, nkabona ameza bicayeho.

Ndabona inama y'urubyiruko imbere hari hari umupolisi w'umumama ndetse n'ababakuriye abagore n'abapapa bari bicaye imbere yabo. Inyuma yabo niho urwo rubyiriko rwari ruri muri sare.

Ku iyi ifoto hagaragaraho abagabo babiri umwe yambaye ikoti n'amarinete n'ishati y'umweru, hagaragaraho abagore bagiye batandukanye bagera muri batanu, babiri bambaye amarinete abandi babiri ntayo bambaye, undi ntagaragara neza ariko yambaye..

Amatariki y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri tariki cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri makumyabiri na rimwe, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura teveya(TVA), TPR na WHT.

Ndabona idarapo ry'u Rwanda itariki esheshatu z'ukwa cumi na kabiri, bibiri na makumyabiri na kabiri, n'ikirangantego cy'igihugu.

Amahirwe yo gushora mu buhinzi, mu burezi, muri serivisi z'amafaranga, muri serivisi z'ubuzima, muri serivisi z'ikoranabuhanga, z'ibikorwaremezo, mu nganda, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bukerarugendo sura u Rwanda.

Itangazo ry'ibiruhuko risoza umwaka ku itegeko nshinga nimero zeru ,gatandatu, kabiri ,akaronko ,zeru ,rimwe ryo kuwa cumi nicyenda z'ukwacumi n'abiri na makumya n'akabiri ku wa mbere, makumyabiri na gatandatu z'ukwa cumi n'abiri na makumyabiri na kabiri umunsi wo gufungura impano.

Iri ni itangazo ry'ikigo hishinzwe ubuhinzi mu Rwanda riri gushishikariza abantu ko hari amahirwe mu buhinzi, mu burezi imbaraga.

Iyi ni inzu yo kubamo isizi ry'umuhondo, ifite amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari ibyatsi ndetse n'indabyo za kanyombya, ku ruhande rw'aho hari amapoto abiri; imwe ni iy'igiti, indi ni iy'icyuma, hari ndetse n'amasinga hirya y'aho hari imiturirwa miremire cyane.

Uyu ni umucamanza yambaye ingofero irimo ibara ry'umukara n'umuhondo, yambaye ikanzu y'umutuku ari guseka. Imbere y'iwe hari akarangururamajwi.

Uyu ni umupolisi wo mu muhanda, hari imodoka ya tagisi iri mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'umukara. Hari umumotari wambaye ijiri ya tigo uhetse umugenzi yambaye kasike z'icyatsi.

Hagaragaraho nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Jeannette Kagame umugore wa Paul Kagame hagaragaraho idarapo ry'u Rwanda hagaragaragaraho ameza, hagaragaraho amazi, umugore ndetse n'umugabo wambaye ikanzu y'amabara y'imituku n'umweru yambaye n'ingofero na lunette.

Ndabona umugabo utwaye igare rya fuji ndabona imodoka yikamyo iri mumuhanda ndabona umugabo uri kugenda n'amaguru mumuhanda hakurya y'umuhanda wabagenzi ndabona ruhurura nkabona ibiti nkabona na parikingi yamakamyo inyuma y'urugo .

Uyu ni umuhanda urimo imodoka ya fuso, harimo imodoka za vatiri, harimo abamotari, harimo abagenzi, hari ibiti, insinga z'amashanyarazi inzu irimo kubakwa.

Iyi ni imodoka ndende yitwa sikaniya, ndende cyane, itwara ibicuruzwa yambukiranya imipaka.

Ifoto ry'umuriro w'amashanyarazi, irilfani, mota ya lifani, moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi itwawe n'umumotari umukozi wa emutiyene, umutaka, toyota n'inzu.

Iyi ni imodoka ya hoho, inyuma yaho hari bisi y'abanyeshuri, zose ziri mu muhanda zigenda.

Kuri iyi foto hagaragaraho moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi, hakagaragaraho na moto inywa esansi. Hagaragaraho abagenzi, imodoka iri mu muhanda, hakagaragaraho na moto zisanzwe ziri inyuma, zikoresha esansi.

Ndabona ikamyo yambukiranya ibihugu byo muri afurika, harimo umushoferi, ndabona ibiti, ndabona umuhanda, ndabona ibyatsi, ndabona n'inzu inyuma y'urugo.

Ku ifoto haragaragaraho umumotari utwaye umugenzi ari mu muhanda hakabamo ibiti, hakabamo indabyo hakabamo ipoto by'umuriro w'amatara ku mihanda, hakabaho ibiti kuhande, ibyatsi hakabaho naza ruhurura.

Iki ni icyapa gikoreshwa ahantu bari kubaka bagishyira ku muhanda kigaragaza abashoferi ko bagomba kugenda gakenya ko hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorwa harimo umuntu ufite igitiyo yambaye bote ari gutiyura icyu.

Ndabona parikingi ndabona imodoka, isoko izigame isoko rinini, ndabona indobo zirimo mikoropesho n'ibiroso, nkabona imiryango y'amasoko, ndetse n'indabyo, n'indabyo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'umukara ndetse n'imodoka zifite ibara ry'umweru, harimo umumotari uhetse umugore ndetse ku ruhande hari n'inzu y'ubucuruzi igezweho y'umuturirwa, iri mu mabara y'umuhondo. Ku ruhande hari imodoka ziparitse ziri muri parikingi.

Ndabona aho imihanda igihurira hari n'icyapa kibigaragaza kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, hari n'ikindi cyapa, hari ibiti, amatara ku mihanda, ibyatsi ndetse n'amazu hirya yaho.

Ndabona ikiraro nkabona aho bisi yabagenzi, ndabona abagenzi bari hejuru naho ku kiraro nkabona abakarasi babiri mwari kugenda ku igare ndi ahaparitse nkabona umunyamaguru kugenda n'amaguru nkabona ibiti nkabona insinga z'amashanyarazi nkabona n'icyapa.

Ndabona ihembe ryigare, nkabona imodoka, nkabona umumotari uri kuri moto, nkabona imodoka yacanye itara y'inyuma, nkabona umunyamaguru, nkabona indabyo za kanyombya, ibiti, amazu.

Ndabona amatara mu muhanda yatse ibara ry'umutuku, abamotari bahagaze, abanyamaguru bari kwambuka, hari ibiti, hari sofiya, hari ibyapa, hari n'amazu

Uyu ni umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye harimo moto ya mbere, hari igeze muri zebura korosingi, moto ebyiri zindi ziri inyuma ya zebura korosingi, ndetse n'imodoka iri inyuma, n'icyapa ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Ndabona sofiya apima umuvuduko, nkabonamo imodoka, nkabonamo moto, abamotari, ibiti, umuhanda, nkabonaho amapoto, nkabonaho feruje mu muhanda.

Ndabona abamotari babiri batse abagenzi barimo bamanuka kuri moto, nkabona abandi bamotari babiri bari kuzamuka bashoreranye, nta bagenzi batwaye. Ndabona abagenzi bari kugenda ku muhanda ku ruhande rw'abagenzi, nkabona amazu, nkabona n'ibiti.